Abantu benshi bahagaze batonze umurongo, hagati yabo hari gaze, isafuriya, utujerekani, n'ibindi bikoresho bifashisha bazimya umuriro uzwi ku izina rya faya egisitingwisha.

Kamera iri ahantu ishinzwe kurinda n'umutekano, ndetse no kumenyekanisha abajura bibye aho hantu harindiye umutekano.

Ahantu hari inzego z'umutekano zinyuranye za polisi, aho bakemurira ibibazo bitandukanye bijyanye n'umutekano.

Ubwato bwa Porisi buri mu mazi, bari kurohora abantu bari barohamye. Umupolisi umwe yambaye ijire ya oranje, abandi bambaye imyenda ya giporisi isanzwe.

Abantu benshi barimo kureba ahantu hafashwe n'inkongi y'umuriro. Bari kurebera batari kuzimya. birababaje rwose, kandi ari benshi.

Abantu benshi cyane bicaye ahantu batuje batekanye, bafite umupolisi uri kubagira inama ku bijyanye n'umutekano uko twawirindira.

Ahantu hari igikamera mu muhanda kemerera imodoka kuba zatambuka, ndetse n'abanyamaguru kuba bakambuka bitewe n'uko ibinyabiziga biri mumuhanda ari byinshi.

Inzego z'umutekano zinyuranye zigiye gutanga bote ku bantu bagiye babafasha, kurinda umutekano. Harimo urwego rwa daso, urwa polisi ndetse n'urwa gisirikare.

Umusirikare wishimye ufite inyenyeri ebyiri, n'idarapo ku rutugu, yambaye ingofero, amataratara, ari no gucurira arishima.

Umupolisi wambaye inifomu ya polisi, uryamye hasi urimo gufora, agiye kurasa ikintu ari kucyitegereza neza ngo ataza kugihusha.

Abantu benshi, bamwe baricaye abandi barahagaze. Hari amagare, ari kumwe nabo. Ndetse n'ipoto iri mu biti ahantu heza bigaragara ko hatuwe.

Abamama beza bambaye amataratara. Umwe afite mikorofone agiye kubwira ijambo abari mu nama. Bafite amazi yo kunywa bigaragara ko batari bwicwe n'inyota.

Abantu benshi bari iruhande rw'inyubako z'amashuri, batonze umurongo ab'imbere baciye bugufi, kugira ngo babafotore bose baze kugaragara mu ifoto.

Abagabo basa neza. Harimo n'abambaye amadarubindi. Bari mu nama. Bicaye ku dutebe twiza. Ahantu hacanye itara rifite urumuri ruke, inyuma hari umwijima.

Inama irimo abayobozi bakuru b'igihugu harimo: inzego za polisi, iza gisirikari, daso ndetse n'izindi nzego za gisivire. Bafite amazi yo kunywa.

Inama yitabiriwe n'abantu bakuze, harimo abasaza, abamama bakiri bato, n'abakecuru. Hari umusirikare ufashe mikorofone, ugiye kubagezaho ijambo.

Umugore w'igikara ufite umusatsi mwinshi wa wuboshye, witeye igitambara mu bitugu cy'umukara kimeshe gisa neza.

Uruyuzi rwiza rwera ibihaza bimeze nk'ibivamo ibisabo, rugaragara ko rweze, rugeze igihe cyo gusarurwa, kandi ruri ahantu mu byatsi.

Umugabo usa naho akuze cyane, ufite ubwanwa bw'igikara n'umusatsi usa nabi utakarabye afite ikintu mu ntoki ari kurigataho.

Abazungu bambaye imyenda ya kinyarwanda, bafashe inkoni mu ntoki zabo bateze n'urugori ku misatsi yabo. Abantu bari kumwe na bo babaseka cyane.

Abakobwa batatu batonze umurongo bafite imisatsi myiza, bambaye imishanana bafite inkongoro, basa naho bagiye guhereza abantu amata.

Intore yambaye neza, ifite imisatsi y'umweru, n'icumu mu ntoki. Ihagaze ahantu mu murima, yitegereza amashyamba kimeza, atatse urwatubyaye.

Isekuro ishaje iteretse imbere y'inzu. Hari n'umumama uhagaze mu muryango, ugaragara igice cyo hasi ibirenge, ndetse n'umwenda akenyeye.

Inyubako za kinyarwanda eshatu zubatse za miviriingo, imwe umuryango urakinguye izindi imiryango ntigaragara neza, hafi aho hari utwatsi twiza tubereye kwicaraho n'ibiti byiza bizikikije.

Abantu benshi bicaye hamwe , babiri bari gukina urusoro . Umwe arishimye cyane ari guserebura bigaragara ko atsinze , abandi nabo bigaragara ko bashimishijwe.

Ibimera bimeze neza bifite ibara ry'icyatsi ,bitoshye ,cyane bigaragara ko byuhirwa, biri butaka bufite amazi, ndetse n'ikirere ni cyiza biragaragara kotishimiye aha hantu.

Abantu benshi, bafite imiheha miremire, bari kunywera mu muvure. Abantu bigaragara ko bari kunywa bafite gahunda ntawe urangaye.

Ingoma nziza ifite akabara k'umweru, n'irindi bara ry'igitare, iteretse ahantu hajya gutukura, iruhande rwayo hari inzu ya kinyarwanda itagaragara neza, hari n'utwatsi tw'icyatsi iruhande rwabyo.

Ahantu hari ibiseke binini bita ibisobane, hari n'ikindi giseke cyiza gifite amabara y'umukara menshi, ndetse n'ay'umweru makeya, giteretse hejuru y'ikinini.

Umumama uri kurondora ibishyimbo byari biri mu giseke, ari kubisuka ku ntara iteretse ku kirago, kimaze iminsi kitari gishyashya.

Ibikoresho gakondo, harimo: uruho bakunze kwita urukiza, igicuma, n'umuheha n'umubirikira wo gusukisha inzoga, biri ku ndasesa ndetse iteretse ku kirago.

Inzu gakondo ya miviringo ifite agasongero hejuru, imbere yayo hari intore ziri kubyina zambaye imihondo n'imisatsi y'imyeru ku mutwe hirya yabo hari urugo rw'ibyatsi.

Ibikoresho gakondo byakoreshwaga mu muziki wo hambere, hari iningiri n'agacurangisho kayo keza birambitse hasi kuri sima.

Abazungu n'abirabura bari kuvuza ingoma. Umwirabura ari kubatoza. Inyuma yabo hari inzu za kinyarwanda zo hambere , izo twita nyakatsi.

Ibiseke bibiri bifite amabara y'icyatsi kijimye, ndetse n'ay'umweru n'ikindi kimwe gifite amabara ry'icyatsi cyerurutse, biteretse ahantu ku meza.

Imitiba iri ahantu itegereje kujyamo inzuki, zo gukoreramo ubuki buryoha cyane, iri ahantu mu gashyamba gatoshye karimo ibyatsi byiza.

Umusore w'intore wambaye neza ufite icumu mu ntoki n'imisatsi y'umweru, yiteye utuntu turimo amabara y'imikara n'imyeru.

Abamama batatu bishimye barimo kubyina bambaye urunigi mu ijosi, bateze n'utuntu twiza mu mutwe, bafite n'igisabo baberewe bameze neza, bafite n'amenyo meza.

Intore zambaye udutambara, turimo amabara y'ubururu n'umweru, zifashe amacumu n'ingabo mu ntoki, n'amayugi mu maguru, ziri kubyinira ahantu mu byatsi.

Umusore wambaye ishati y'umweru, y'amaboko maremare, ufashe umudure mu ntoki, ufite imirya myinshi cyane, kandi yambaye n'isaha.

Inzu nziza ya kinyarwanda, ifite inkingi mu muryango, ndetse n'intara iriho uruho, igicuma, hirya yayo hateretse utubindi dutatu.

Abantu batatu basa n'aho ari abo hambere， bambaye ubusa hejuru， bafite utuntu tujya kumera nk'uduseke，bambaye urunigi mu ijosi， ndetse n'inyogosho zidasanzwe.

Igisero kinini, gifite umutemeri, giteretse ahantu cyonyine, kiri iruhande rw'igiti kinini cy'icyatsi cyijimye, ahantu hasa n'aho hari umwijima.

Ahantu heza hari ikibumbano gifite icumu mu ntoki, cyubakiye ku tuntu twutu esikariye, ndetse ahakikije hari n'ibimera byinshi birimo urutoki n'umucaca.

Ishyo ry'inka nyinshi z'inyambo, ziri mu nzira bagishirije ahantu runaka, ariko bigaragara ko iruhande rwazo hariho ubwatsi bwiza butoshye bumeze neza, izo nka zifite amabara atandukanye harimo n'iz'ibihogo.

Abagabo batatu bari gukama urwagwa, umwe asa n'umuzungu abandi ni ibikara. Iruhande rwabo hari ibishishwa by'imineke n'ibyatsi bifashisha mu gukama urwagwa.

Ababyinnyi benshi bari kubyina bambaye imyenda y'imihondo, umwe yambaye n'inkweto zifunze, bateze urugori.

Ababyinnyi b'abasore， barimo kubyina bafite amacumu n'ingabo，bambaye amayugi ndetse n'imigara， ku mitwe yabo.

Utubindi dutatu dupfundikije amakoma, kamwe karimo imiheha itatu, akadi nta miheha irimo.

Abantu bahetse umurwayi mu ngobyi ya kinyarwanda. Bamujyanye kwa muganga bihuta cyane, ngo atarembera mu nzira kandi ivuriro riri kure.

Umusaza wambaye ikoti ry'ikositimu n'ishati n'ingofero uri kunywa itabi, umwotsi uri gucumba uva mu kanwa.

Abantu benshi bari guhinga bafite amasuka, ndetse bahinga batonze umurongo, n'abandi bari inyuma yabo batunganya neza aho bamaze guhinga.

Umudamu umeze neza ,wishimye, wikoreye igiseke kiriho n'umutemeri wacyo, uteze amaboko, arimo abyina, yambaye akenda ko hejuru k'umuhondo, ndetse no hasi yambaye....

Ibiseke byinshi birunze ahantu hamwe mu kintu kinini, gifite imitemeri ndetse n'utundi tuntu, turi kumwe na byo muri icyo kintu kinini.

Ibiseke bitatu byiza bipfundikije imitemeri kimwe kirimo amabara y'umutuku n'umweru, ibindi birimo umweru n'umukara.

Inzu ya mivirigo ifite inkingi mu muryango, yubakishije ibyatsi ariko ishimishije iteye ubwuzu, yubakanywe ubuhanga. Inyuma yayo hari ibiti byiza.

Ahantu hateretse ibiseke byinshi ,bigiye bifite amabara atandukanye n'igicuma kirimo inzoga, n'umuheha wo kuyinywesha.

Amazu ya miviringo agiye aba mu ngo zitandukanye zo ubu ngubu twagereranya n'urupangu, zigiye zigira urugo ruzizengurutse n'inkingi mu muryango.

Umuntu urimo kurasisha umuheto, uri gufora ikintu runaka ahantu akitegeye, iruhande rwe hari abantu babiri, barimo kugenda bamusanga.

Ahantu hateye uburo bwinshi bugeze igihe cyo kwera, ariko butaruma bugifite amababi y'icyatsi, buri gukora neza.

Abagabo bafite inyogosho zidasanzwe, aho bagiye bogoshwa bakageza mu mutwe hagati, ariko bagasigarana isunzu barimo gukomera amashyi ababyinnyi ubona ko na bo banezerewe.

Intore ziri kubyina zica umugara. Zifite ingabo n'amacumu mu ntoki zabo. Inyuma yabo hari abakaraza n'abadamu bambaye neza bishimye cyane.

Imitiba eshatu bororeramo inzuki ihomyeho igitaka irambitse ahantu igerekeranye ahantu hari ibyatsi byumye bimeze neza.

Abagore benshi n'abakobwa bicaye hamwe baboha ibiseke, imbere yabo hari ibiseke n'imitemeri yabyo barangije. Birasa neza.

Abagabo babiri n'abasaza babiri bari kunywera inzoga mu kibindi, bakoresheje imiheha miremire ibasha kugera mu kibindi.

Abasore bambaye gakondo, bafite imiheto, bitabiriye urugamba, bagiye kurwana.

Intore nyinshi ziri kubyina zica umugara. Zunamye zifashe icumu n'ingabo mu ntoki zabo. Imbere hari igiseke giteretse ku gatebe.

Ikintu kimeze nk'umutiba, cyubakishije ibirere biva ku nsina, giteretse ahantu mu giti ,kimeze nk'igitegereje kuba cyajyamo inzuki.

Ibikoresho by'umuriro w'amashanyarazi by'umweru biri hanze, hari n'ibitsinga by'umukara bicometse ku gikuta kandi bikomeye, biteye neza.

Igishushanyo cyiza, cyerekana ibintu bitandukanye, byanditseho ngo ecdc variyabo powa supurayi, ni igishushanyo kigaragaza ibintu bijyanye n'ingufu z'umuriro.

Inzu ifite kanari purisi iriho urubaho rw'ubururu, rufashe iyo kanari prisi, iruhande rwayo hari ifoto ifite insinga zijyana umuriro ku mazu atandukanye.

Akazu k'icyatsi gakorerwamo ibintu bijyanye na eregitoroniki，ndabona ntazi ibintu bigakorerwamo neza， ibyo aribyo. Ariko iruhande rwaho hari akantu k'umukara.

Igikoresho gishyushya amazi kirambitse ahantu gifite ibara ry'umukara n'irindi bara rya aluminium kidacometse kirambitse hasi.

Ahantu hari vendarateri imwe itanga umwuka, iteretse ku meza ahantu mu cyumba gifite isuku bakoropye bakanahatunganya neza.

Ahantu barimo kubaka sitasiyo, yo kumwishirizaho lisansi, bigaragara ko batararangiza kubaka. Haparitse imodoka imwe y'ivatiri y'umweru.

Inyubako ndende cyane, ifite amabara y'icyatsi, n'ibirahuri bijya kwijima. Iruhande rwayo hari umuntu wihuta cyane, urimo gutera intambwe ndende.

Umunara muremure cyane uri hagati y' inyubako ebyiri zubatse neza kandi zikomeye. Zifite amadirishya abiri abiri mu ruhande. Hari n'abamama babiri.

Abanyonzi babiri bakurikiranye. Umwe ntagaragara neza, undi aragaragara. Yambaye agapira kagiye kuba umuhondo n'inkweto za bodaboda z'ubururu, inyuma ye gatoya hari igiti.

Ahantu hari gukorerwa ubwubatsi. Abubatsi bambaye amasarubeti y'ubururu. Ni umugabo umwe wambaye akagofero, undi yambaye ubururu hejuru, hasi ipantaro ya kaki.

Inzu iri ahantu heza ifite ibirahuri ndetse iri mu gapangu. Iri ahantu kumuhanda hari umunyonzi ufashe igare, ugaragara ukuboko kumwe, ndetse n'igare rigaragara ihembe ryaryo rimwe.

Abantu bahagaze mu muhanda muri kaburimbo ishaje harimo umusore utwaye igare ririho igitebo n'indobo itukura iri hejuru yacyo.

Inyubako nziza， ifite amatafari ahiye n'amabati atukura， iri iruhande rw'ishyamba， ahantu hakorerwa ubuhinzi ，ndetse n'aho bakorera ibikoresho, ibintu binyuranye.

Abantu bari imbere y'amashuri ni abagore, bamwe baricaye abandi barahagaze. Harimo n'umuejenti wa Emutiyeni uri iruhande rw'intabire ndetse n'abandi begamiye ku mashuri.

Inyubako ikorerwamo n'ubuyobozi ifite urukarabiro hanze n'ibyatsi bikikije isakaje amabati y'ubururu yubakishije amatafari ahiye iteye irangi rigiye kuba umweru.

Inyubako nini cyane ifite amabati y'umutuku . Iteye irangi ry'umuhondo. Iri mu gipangu . Iruhande rwayo hari ishyamba rinini.

Ahantu hagiye habera imikino itandukanye, hari ikirere gisa neza kirimo uducu dukeya, ahandi gisa ubururu kidateganya gutanga imvura vuba.

Urusengero runini cyane rwubakishije amatafari ahiye, iruhande rwaho hari ibiti bitanga umwuka abantu bahumeka, bifite uturabyo dutukura n'ibindi birebire bijya kuresha n'urusengero.

Inyubako nziza kandi nini cyane, iriho umusaraba, ifite ibirahuri birebire, ya kiriziya gatorika, iherereye i Kigali, yitwa rejina pacisi.

Urusengero runini ruriho abanyeshuri, ruriho n'umusaraba imbere ufite ishusho ya Yesu Kirisito ,ruteye uturangi tw'umutuku, ndetse n'umweru, n'umukara.

Ikigo cya leta kiri impande y'ishyamba gifite porotayi n'ibyuma, n'imbuga yaraye, bigaragara ko batakihakorera neza.

Inyubako nziza, isa naho ikoreramo, abayobozi ba leta. Hari idarapo ry'igihugu, ibiti biri ku ruhande bitanga umwuka mwiza, na geti iriho umugabo bigaragara ko afungurira, imodoka, n'abantu binjira, mu mboga harimo amapave.

Urusengero runini rufite akantu karerekare, batarashyiramo ibirahuri. Iruhande rwaho hari umucaca mwiza ubereye kuwicaramo. Inyuma yaho hari uduti dutanga umwuka.

Inyubako ndende zubakishije amatafari ahiye. Iruhande rumwe zihomye na sima, zifite amadirishya y'ibirahuri, ndetse ziri kuri kaburimbo irimo akabara k'umuhondo n'umweru.

Ahantu hari ikigo cya leta. Hari i darapo, amatara ku tuyira tugana kuri icyo kigo. Hari pasiparume iteyemo uduti twiza tubiri, ndetse n'inyubako zisakaje amabati y'imituku.

Inyubako ikoreramo abayobozi iri impande y'agashyamba, ndetse imbere yayo hari abantu n'imodoka itukura. Inyuma yabyo hari umucaca mwiza.

Inyubako zifite amabati atukura, zikorerwamo ibintu bijyanye n'inganda. N'utwatsi duke turi iruhande rwazo ruherera ino.

Abantu benshi cyane, bari hanze y'urusengero runini rufite ibirahuri, rwubakishije amatafari ahiye, imbere yaho hameze nk'ahantu, hagiye kubera umukino.

Agahanda ka kaburimbo, gafite isuku, ku ruhande kariho utubara tw'umweruru n'umukara, n'akayira k'abagenzi karimo amapave meza cyane.

Urusengero rwubatse neza rutatsemo izahabu, rufite intebe nziza n'amashusho agiye atandukanye, ari ku bikuta byarwo.

Abantu bari kubaka ikiraro harimo abenjenyeri bambaye amajiri y'icyatsi n'udupfukamunwa, n'abandi baturage benshi, basa naho barimo kubafasha ndetse ni ikirararo cy'imigozi.

Umusore w’igikara wambaye ishati y’umukara ifite udupesi tw’umweru, n’ikoboyi, n’udukweto dufunze, uri ku kiraro kirekire cy’imigozi, ufashe ku mpande zacyo zombi.

Umunyonzi urimo gutwarira igare ku gahanda k'amabave, kari hagati y'inyubako ebyiri ndende cyane, zigeretse kabiri.

Abantu benshi bateraniye hamwe. Bamwe baricaye ku ntebe, abandi barahagaze. Harimo abafite udutambara turimo idarapo ry'u Rwanda, n'umugabo uhagaze hagati na hagati.

Abantu benshi bateraniye hamwe mu nama, hari n'umusaza uri gusoma igitabo n'abandi ba mama, bateze amatwi bumva ibyo ufite ijambo arimo kuvuga.

Abantu benshi bari mu nama. Harimo umugabo wambaye ikositimu n'ishati nziza. Urimo gusomera undi mugabo wambaye ishati ufite mikorofone.

Abantu benshi bicaye mu nama , hari umugabo uri hagati ubazengurutse urimo kubagezaho ikiganiro. Iyo nama irimo abamama biteze ibitambaro , n'abandi benshi bateze amatwi kandi bitonze.

Abantu benshi batonze umurongo, harimo abagore, abagabo, abana n’abakecuru, basaba ko barenganurwa. Umugore umwe afashe mikoro, ari kuvuga ikibazo.

Abantu batanu bambaye udupfukamunwa tudasa n'amabaji, inyuma yabo hari imizigo yindege ya Rwandeya iparitse bisa naho bagiye gupakira iyo mizigo, imbere yabo hari akabara k'umuhondo.

Imodoka ebyiri zitwara abagenzi. Iruhande rwazo hari moto zitwaye abagenzi, ndetse n'imodoka zitwara abantu ku giti cyabo, biri mu muhanda iruhande rw'amazu.

Imodoka nini zitwara abagenzi ,za rusange. Hari abantu bahagaze iruhande rwazo. Hari agacaca keza ndetse n'ibindi biti biteye ku muhanda n'itara rirerire riri hejuru.

Umuhanda wa kaburimbo uri kugaragara igice kimwe, na moto ebyiri ziparitse mu kayira k'abagenzi. Zifite amabara y'umutuku zombi avanze n'andi mabara.

Ahantu baparika imodoka, hazwi ku izina rya gare mwo imbere harimo imodoka ya tagisi itwara abagenzi, umugabo uhagaze iruhande rwayo na moto isa n'aho ishaka gusohoka.

Umuhanda unyuramo ibikamyo. Harimo ibikamyo byinshi bishoreranye, ndetse n'amazu ari iruhande rwawo n'amatara, umunara ndetse n'amapironi atwara amashanyarazi.

Imodoka nini itwara abagenzi ba rusange , yanditseho ngo Kigali siti tawa. Inyuma yayo hari utumodoka dutwara abantu ku giti cyabo , mu muhanda imvura yaguye.

Umuhanda urimo ibimodoka bibiri binini bitwara abagenzi biparitse, imbere yaho hari utu esikariye tw'umuhondo turi kumanukaho umuntu.

Bisi nini cyane ifite amabara y'ubururu itwaye abakozi ba bake, iherereye ahantu hagiye hatandukanye mu mujyi wa Kigali, yitwa ayi endi emu bake.

Imodoka nini nziza, iri mu muhanda ,irimo kugenda icanye amatara .Iruhande rwayo hari utwatsi n'amazu, asa naho ari kure yayo.

Urujya n'uruza rw'abantu bari mu muhanda. Bamwe bari ku magare, abandi bari mu modoka ya takisi, ndetse n'abandi bari kugenda n'amaguru.

Urujya n'uruza rw'abantu bari mu muhanda ku binyabiziga. Ari moto, amagare, iruhande rw'umuhanda hateye ibiti bitanga umwuka mwiza duhumeka.

Umuhanda ukoze neza, urimo moto imwe iriho abantu bambaye kasike z'icyatsi iruhande rwabo. Hari n'izindi modoka ebyiri zishoreranye ziri kugenda.

Amakamyo menshi cyane, atonze umurongo, aparitse iruhande rw'umuhanda, n'abantu benshi barimo kugenda mu muhanda, bamwe ku maguru, abandi ku magare, abandi ku mamoto.

Ndayihatsu zipakiye ibirayi byinshi, zitwikirije amashitingi y'ubururu, ziparitse mu muhanda, ziteguye kugenda zikabijyana ahantu hatandukanye.

Amakamyo apakiye ibintu byinshi binyuranye. Arimo atukura, ay'imyeru, afite amabara atandukanye agiye acangacanze, nta yo ifite ibara rimwe.

Umuhanda urimo abantu benshi ,bamwe bagenda n'amaguru abandi baagenda na moto . Harimo imodoka ntoya izitwara abantu ku giti cyabo ndetse n'izitwara abantu za rusange.

Abantu bari mu muhanda iruhande rw'imodoka nini itwara abagenzi ya Volukani. Hari n'izindi modoka za takisi vuwatire, n'icyapa kiri impande.

Imodoka nyinshi ziri muri gare aho bategera. Ni abantu benshi cyane bafite ingendo zigiye zitandukanye baje gushaka ibinyabiziga bibatwara.

Abantu benshi bari mu bwato, bagiye kwerekeza mu bice bitandukanye, bamwe bambaye amajiri abandi nta yo bambaye, biyambariye udutisheti tw'icyatsi kibisi.

Umukecuru wambaye imyenda y'umukara n'inkweto zifunze, ufite agakoresho bifashisha bakina umupira bita tenisi, uri mu kibuga hagati.

Abakinnyi benshi cyane b'abasore, bambaye jezi z'imyeru n'icyatsi, bagiye gutsinda, umwe yazamutse ari mu kirere afite umupira yiteguye gutera muri paniye.

Abazungu babiri bambaye amasogisi y'umweru， n'ingofero， umwe irebye imbere， undi irebye inyuma， umwe afite ubwanwa, undi ni bukeya barimo gusuhuzanya， bagiye gukina rimwe.

Abakobwa babiri bambaye utujipo tugufi, n'ingofero z'umweru. Bagiye gukina tenisi. Iruhande rwabo hari umusore wambaye tisheti y'icyatsi n'ingofero, ikabutura ndetse n'inkweto zifunze.

Abakinnyi bambaye jezi z'ubururu, harimo n'umwe muremure wambaye agapira k'icyatsi n'ipantaro y'umukara, bafite inyogosho zisa bambaye bose n'inkweto zifunze.

Abantu bari gukina umupira ufite amabara y'umweru n'ay'ubururu, bigaragara ko umupira ushaje nubwo bari kuwukina.

Ahantu harimo kubera umukino wo gusimbuka, hari umukobwa wambaye imyenda ya siporo y'umutuku, uri gusimbuka uri mu kirere.

Abakinnyi b'amavubi bishimye cyane. Bambaye jezi z'ubururu, bari muri stade biteguye gutangira umukino, kandi ubona ko bifitiye icyizere

Abantu benshi cyane bari kureba umukino barimo gufana amakipe atandukanye, imwe iri gutanga ibyishimo abafana bamanitse utudarapo.

Isiganwa ry'amagare. Amagare aparitse yitegura kugenda inyuma y'umurongo, hari n'ibyapa biri iruhande rw'abanyonzi bagiye gusiganwa.

Abakinnyi babiri bakina umupira w'amaboko, abagore bari gukina umwe ari gufata undi uri kwirukankana umupira ngo ajye gutsinda.

Abantu bari gukina umupira w'amaboko bishimye, ubona ko bizihiwe. Mu kibuga iruhande rwabo hari igiti kiriho uturabo tw'umuhondo n'ikindi gisa n'aho kitarayanga.

Abakinnyi bari gukina umupira w'amaguru, ahantu hari tapi z'icyatsi izamu ry'umweru n'ibiti biri iruhande rwabo, inyuma yabo hari amazi atagaragara neza.

Ikibuga cy'umupira cyiza, kirimo tapi y'icyatsi, n'imironko y'umweru, gikorotiriye kiriho utuntu tw'utwuma tw'icyatsi turi ku ruzitiro.

Ahantu heza hasa n'ahakorerwa imyidagaduro hubatse neza, inyuma y'aho hari ibiti bidafite amababi menshi.

Ikibuga gikinirwamo imikino itandukanye, kirimo abantu bakeya nabo batari gukina, iruhande rwacyo hateye ibiti bikurura akayaga.

Abanyeshuri benshi bambaye unifomu basa neza rwose pe, bigaragara ko bari mu kibuga bafite imipira, iruhande rwabo hari ibiti byiza bitoje bitanga akayaga.

Isiganwa ry'amagare ririmo abazungu, ndetse n'abandi bantu baje kubafana bari aho iruhande ,bambaye ingofero z'ubururu, ndetse bari iruhande rw'akapa karekare kabasumbya uburebure.

Ikibuga bakiniraho umupira w’amaguru， gifite tapi y’icyatsi，izamu ry'umweru， ikibuga gisa n’aho gikorotiye neza.

Ikibuga bakiniramo umupira w'amaboko kitarimo umuntu numwe kiri impande y'ishyamba harimo n'akazu gafite amabati y'umukara.

Imodoka ifite amabara y'umuhondo. Iri kunyura ahantu hari ivumbi ryinshi cyane, hadaheruka kugwa imvura. Ibiti biri iruhande rwayo nta mvura biheruka kubona.

Abagabo bari mu masiganwa y'amagare harimo abazungu n'abirabura bose bambaye ingofero zirinda imitwe yabo kuba yakangirika igihe bakoze impanuka.

Abakinnyi bicaye mu kibuga cy'umupira, inyuma yaho hari imipira nabanyeshuri bicaye bategereje ko umukino utangira.

Abakinnyi bari ahantu muri sitade. Bambaye amajesi yubururu. Sitade ifite intebe z'ubururu. Hari amadarapo y'ibihugu atandukanye. Bakiriye umukino mpuzamahanga.

Umusore ufite umupira mu ntoki, wambaye jezi y'amaboko, ifite ibara ry'icyatsi n'ipantaro y'umukara n'inkweto, ugiye gusimbuka akajugunya umupira.

Umukobwa wambaye jezi z'ubururu ufite baro mu ntoki, yambaye n'inkweto zifunze n'amasogi y'umweru. Ari gukina ashishikaye muri sitade, kandi nta n'abafana barimo.

Umukobwa mwiza ufashe ballon itukura. Iri ku gatoki kamwe, yambaye ubusa umukondo uri hanze nakantu gapfutse amabere.

Abakinnyi bari gukina tenisi . Umwe yegereye urucundura , abandi bari kure yarwo , hasi y'urucundura hari udupira tune.

Umuzungu uri ku igare wambaye ingofero na jezi y'umuhondo, ari hagati y'utwapa tubiri twanditseho inyuguti za Z ebyiri ziri hamwe.

Abanyonzi benshi bari mu masiganwa y'amagare. Harimo abazungu n'abirabura baje kubashungera. Iruhande rwabo hari ibiti bibiri n'ikirere gisa n'aho gisa neza nta mvura gifite.

Umuhanda wa kaburimbo urimo abamotari babiri bakurikiranye, n'abagenzi babiri bari kunyura mu kayira k'abagenzi.

Umuhanda wa kaburimbo ushaje, uri ahantu hijimye, hagiye kugwa imvura, cyangwa hakaba hari ikintu kihatwikiriye gituma haza umwijima.

Umuhanda urimo akabara k'umuhondo, ndetse n'utundi turi ku ruhande tw'umukara. N'imodoka itukura iri gusubira inyuma, igiye kujya mu muhanda.